Iyo hariho nk'icyorezo cyangwa se indwara yandura mu buryo bwihuse cyangwa hari ubundi buryo butuma abantu badahura. Iyo bakeneye gukora inama bakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bita conference, aho bakoresha amashusho kugira ngo baganire. Iryo koranabuhanga riroroshye cyane kuko rituma batanga ibitekerezo bidasabye ko bahura amaso ku maso na none bakoresha amashusho kugira ngo bagaragare.

Hari inama zigenda zikorwa ku mirenge, mu tugari, ku turere, kugira ngo higwe ku bibazo bitandukanye. Hagomba kuba harimo abayobozi batandukanye mu nzego zose. Biga ku bibazo byinshi umutekano, indwara, ubukene, kwita ku bandi, ndetse bashakira hamwe ibisubizo by'ibyo bibazo byose.

Mu Rwanda mu midugudu yose, hari umunsi wagenwe witwa inteko y'abaturage wa buri wa kabiri nimugoroba. Abaturage bahura n'abayobozi b'utugari, ab'imirenge cyangwa b'Akarere kugira ngo baganire nabo. Babagezaho ibitekerezo, bakagaragaza ibibazo bafite kandi bakigira hamwe uburyo babikemura. Ibyo bituma abaturage bisanzura bakavuga uko bumva ibintu kandi bakabikemura neza nta kibazo.

Hashobora gukorwa inama zitandukanye ziga ku bibazo, usanga no mu mashuri makuru na za Kaminuza ibyo bintu bikorwa, aho abanyeshuri bahurizwa hamwe n'abayobozi, hanyuma bakaganira ku bibazo bitandukanye, ibyo bituma bungurana ibitekerezo kandi bakabona igisubizo cyiza.

Abayobozi bashinzwe umutekano bafata umwanya bakajya kuganiriza abaturage babo ku bijyanye no gucunga neza umutekano, hanyuma bagatanga n'amakuru ku gihe mu gihe habayeho ikibazo.

Abaturage, iyo haje umushinga, urugero nk'Imbuto foundation, urabaganiriza kugira ngo bamenye uko ukora kandi na bo bisangemo, ibyo bituma na bo batanga ibitekerezo, bakamenya byinshi, kuri iyo mishinga.

Abaturage n'abayobozi bajya bagira umwanya wo guhura hanyuma bakungurana ibitekerezo ndetse bagashakira hamwe ibisubizo, buri wese aba yemerewe guhabwa ijambo kugira ngo ageze ku bandi icyo atekereza.

Leta y'u Rwanda ishyira uruhare mu bijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bibe umuco ku baturage ni iyo mpamvu y'iyo gahunda yabaye bashyiraho umwanya wo kuganiriza abaturage kugira ngo babitoremo umuco kandi bumve ko ari iby'ingenzi.

Urubyiruko ruba rugomba kwigishwa umuco Nyarwanda kugira ngo rudateshuka rugafata umuco w'ahandi, kandi agahugu katagira umuco karacika, niyo mpamvu leta ishyiramo imbaraga mu kwigisha urubyiruko ibijyanye n'umuco Nyarwanda.

Hari ahantu umwami yabaga bitaga mu Rukari. Ubu ngubu mu Rwanda aho hantu harahari. Aho habitse amateka atandukanye yo mu gihe cya kera. Aho umwami yararaga nta wundi muntu babanaga.

Hari imikino igiye itandukanye yakinwaga kera mu muco nyarwanda n'uyu munsi ikaba igikinwa n'abantu benshi, urugero igisoro ni umwe mu mikino ikunzwe cyane by'umwihariko abakuze kuko ituma basabana.

Umuco Nyarwanda hari ibintu biwubanga, kera bagiraga ibikorwa bitandukanye bigaragaza ko ari abanyarwanda muri byo harimo kwiga kurasa no kumasha ku ngimbi ibyo babikoraga bitoza kuzarwana ndetse kugira ngo bunguke imbaraga ku buryo igihugu ntawari gupfa kugitera ibyo babitangiraga ba imyaka cumi n'itanu abasore batangiye gukora

Umuco nyarwanda ufite ibintu byinshi biwuranga, muri byo hari ibikoresho bifashisha mu gukora umuziki harimo nk'inanga, ni igikoresho bifashishaga mu gukora umuziki kuko gitanga umuziki mwiza kandi uyunguruye, uba uburyoheye amatwi kandi utuma indirimbo zirimbwamo ziba ziryoheye amatwi.

Mu bikoresho by'umuco nyarwanda hari ikitwa igisabo cyakoreshwaga ndetse n'ubu gikoreshwa mu gucunda amata kigaragaza ko aho hantu hari inka rwose, iyo bashakaga gukora amata ndetse n'amavuta ni cyo gikoresho bifashisha hanyuma hakavamo amavuta y'inka.

Mu bintu biranga umuco nyarwanda hari ibyifashishwa mu kubyina imbyino gakondo, amayugi atuma injyana ikorwa mu gihe ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo, bayazirika ku birenge hanyuma bakabyina.

Mu muco nyarwanda hari ibikoresho bitandukanye bifashishaga urugero biga kurasa cyangwa se kumasha bifashishaga imyambi, ni igikoresho cyabaga gisongoye mu giti ku buryo cyashoboraga kwinjira umuntu kikamwica.

Mu Rwanda hari imbyino gakondo zigaragaza umuco wacu .Izo mbyino zijyana n'indirimbo ku buryo bigaragaza umuco nyarwanda .Abahungu barazibyina, abakobwa bakazibyina kandi biba binogeye ijisho cyane. Ibyo bakunda kubikora nk'iyo haje abashyitsi turi kwerekana umuco wacu.

Imbyino gakondo ni izigaragaza umuco Nyarwanda uba usanga nk'iyo habaye inama abayobozi baje kudusura cyangwa se abantu bo hanze, bakoresha izo mbyino kugira ngo berekane umuco Nyarwanda, kandi berekane ko utacitse. Izo mbyino ziba zinogeye ijisho kuko zigaragaza ibyiza bitatse u Rwanda.

Mu muco nyarwanda hari uburyo bwihariye abagabo basokozagamo umusatsi wabo, bwabaga ari uburyo bw'amasunzu aho bashoboraga gusokoza umusatsi umwe ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande, hagati, hanyuma hakabamo n'umwanya wogoshe ku buryo byabaga binogeye ijisho kubireba.

Mu Rwanda hari abantu bakora imitako ikozwe mu migongo aho uba ubona inogeye ijisho mu kuyitaka mu nzu kandi abantu benshi barayikoresha.

Abami ni bamwe mu bantu barangaga umuco nyarwanda, bambaraga imyambaro itandukanye n'iy'abandi ku buryo bigaragaza, imyambaro yabo yabaga ari myiza ndetse n'imigara bambaraga ku mutwe.

Imbyino gakondo zikunda kwifashishwa mu kwerekana umuco nyarwanda, usibye imbyino n'imyambarire igaragaza ko turi Abanyarwanda aho usanga binogeye ijisho mu kuyireba.

Kugira ngo tubone amashanyarazi mu rugo iwacu hagomba kubakwa ibikoresho bitandukanye nk'amapironi kugira ngo abashe kuyakwirakwiza mu baturage.

Ibikorwa by'amashanyarazi bigenda bitera imbere uko bwije n'uko bukeye, tuyakenera ubuzima bwacu bwa buri munsi, mu bikorwa bitandukanye kugira ngo twiteze imbere gusa hari ahantu haba harabugenewe ho gukorerwa ibyo bikorwa, kugira ngo bidateza impanuka mu baturage. Uba usanga aho hantu hihariye kandi hari n'ibyapa bigaragaza ko ko nta muntu wemerewe kuhagera.

Amashanyarazi adufasha gukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere. Ni iyo mpamvu Leta igenda ishyiraho uburyo butandukanye kugira ngo tuyabone. Ifasha abaturage mu kuyabona byoroshye .Hari Ikigo mu Rwanda gishinzwe gutanga amashanyarazi ari cyo bita REG kiduhereza amashanyarazi ku batuye u Rwanda.

Kugira ngo tubone amashanyarazi atugereho mu rugo iwacu haba hashyizwemo imbaraga zitandukanye ndetse n'ababyigiye bagashyiramo ubumenyi bwabo bwose kugira ngo amatara abashe kwaka dukore ibikorwa byacu.

Mu bikorwa biranga iterambere ry'igihugu. Harimo kuba abaturage baregerejwe amashanyarazi ku buryo buri muntu wese abasha kuyabona. Amashanyarazi atuma dukora ibikorwa bitandukanye urugero nko kubona Aho dusheshereza ibyo kurya, kwiyogoshesha ndetse n'ibindi bintu byose bisaba amashanyarazi. Iyo tuyafite bituma dukora ibikorwa bitandukanye by'iterambere.

Kugira ngo amashanyarazi cyangwa umuriro u tugereho mu ngo zacu, dukeneye amapoto kugirango abashe kuyakwirakwiza. Niho imigozi itwaye umuriro ibasha gufata hanyuma bikatugeraho byoroshye.

Imirasire y'izuba nayo ishobora kuvamo amashanyarazi aho itunganyijwe ingufu ziva mu mirasire zivamo amashanyarazi cyangwa se urumuri dukoresha mu bikorwa byacu bya buri munsi.

Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa by'iterambere biranga igihugu, ni iyo mpamvu usanga hari ibikorwa cyangwa se ahantu hatandukanye yaba ari, gusa aba agomba kuba ari ahantu hitaruye abaturage, kugira ngo adateza impanuka.

Amyashanyarazi atuma dutera imbere kandi ibikorwa byacu bikagenda neza, niyo mpamvu usanga mu mirima hari amapoto ariho amashanyarazi kugira ngo bibe byoroshye ko yagera mu baturage.

Iyo hari kubakwa ibikorwa by'amashanyarazi agerageza kubishyira ahantu hitaruye abaturage kugira ngo atazateza impanuka kuko amashanyarazi tuyakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi ni icy'ingenzi ko buri muturage ayagira ndetse tukayifashisha mu bucuruzi ibikorwa by'iterambere, ibyo bintu byose biradufasha kuko bituma tubona ibyo dukeneye kandi bitworoheye.

Kugira ngo tubone amashanyarazi hifashishwa ibikoresho bitandukanye, biba bikozwe mu ikoranabuhanga, nanone ubu usanga hari ahantu habugenewe, hari ibyo bikorwa kugira ngo bitangiza izindi gahunda cyangwa ngo biteze impanuka.

Amashanyarazi ni cyimwe mu bikorwa by'iterambere biranga igihugu. Niyo mpamvu abantu babyiga baba ari benshi kugira ngo badufashe kuyashyiramo ndetse n'iyapfuye babashe kuyakosora. Uba usanga hari abantu babyigiye kandi babifitetimo ubuhanga.

Mu Rwanda hagenda hubakwa ibiro by'Akagari ku buryo uba usanga buri Kagari gafite aho gakorera hakorera n'abayobozi batandukanye, ibyo bituma abaturage babona aho bajyabwa serivisi biroheye, nonene uba usanga aho hantu hakorerwa inama ku buryo abaturage bungurana ibitekerezo.

Ubuzima ni ingenzi kubagize Igihugu. niyo mpamvu Leta ishyiraho kugira ubuzima zigiye zitandukanye muri buri mudugudu. Zifasha abaturage mu kubona ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo batarwara cyane bakarembera mu rugo.

Buri kagari kagira ibiro aho abayobozi bako bakorera, ibyo bituma abaturage biborohera kugira ngo nibashaka serivisi bayibone bitabasabye gukora ingendo ndende.

Iyo haguye imvura nyinshi, imihanda usanga yangiritse. Gusa ibyo biba kuri ya mihanda idakoze neza y'igitaka, kandi ibyo bihagarika ubucuruzi ndetse n'ingendo. Niyo mpamvu Leta iba igomba guhita ishyiraho ingamba, zo kugira ngo iyitunganye.

Iyo bidashoboka ko bubaka umuhanda abantu bashinzwe kubaka bubaka ikiraro cyo mu kirere kugira ngo ibikorwa bikomeze, ibyo biterwa nuko munsi biba bitagishobotse bitewe n'ibintu bihari.

Imihanda ya Nyagatare uba usanga yubatse neza cyane mu buryo bunogeye ijisho, hari aho usanga hari igishushanyo k'inka kigaragaza ko ahantu ugeze ari ahantu haba amata cyane kandi ko ubworozi babuha agaciro kenshi cyane, ni byo bigaragaza imiyoborere myiza ndetse n'uburyo abaturage babayeho.

Imihanda ikozwe neza ni kimwe mu bintu biteza imbere igihugu kuko uba ubusanga ubuhahirane ubucuruzi bworoha, ni yo mpamvu Leta igenda ishyiraho gahunda yo kubaka imihanda ahantu hatandukanye, ibisa neza ari umukara kandi iyo imvura iguye nta kibazo cyo kunyerera kiba gihari.

Hari igihe biba ngombwa ko abantu bava bajya ahandi gusa aho hantu bitewe n'uko hateye bidashoboka kuhashyira umuhanda, ni iyo mpamvu abayobozi bubaka ikiraro cyo mu kirere kugira ngo abantu bajye bacyambukaho.

Leta y'u Rwanda igerageza gushyira imbaraga mu bijyanye n'ubuzima. Niyo mpamvu yubaka girabuzima cyangwa centre de sante, kugira ngo abaturage babone serivisi z'ubuzima biboroheye. Ibyo bigo nderabuzima n'ama poste de sante, aba yubatse ku buryo bwiza.

Mu Rwanda hagiye hashyirwaho gahunda yo kwegereza ubuvuzi abaturage niyo mpamvu hashinzwe amaposite do sate mu midugudu itandukanye kugira ngo abaturage bajye babona ubuvuzi n'ubutabazi bw'ibanze biboroheye, ayo maposite do sate aba ari imiti y'ibanze ishobora gufasha umuntu nanone haba hari abaganga bakeya ariko baha umuntu ubufasha akeneye mu gihe arwaye.

Mu rwanda hagenda hubakwa ibiro by'utugari, aho usanga abayobozi nka gitifu cyangwa se abandi bayobozi bo mu kagari bahurira. Nanone iyo abaturage bakeneye serivisi, hari ibibazo bashaka kubaza, cyangwa wenda ibintu bitandukanye bibahuza n'ubuyobozi niho bajya kubariza. Abayobozi baba bahari biteguye kubafasha kandi babaha serivisi zinoze.

Ku bigo nderabuzima ndetse na posite do sante, ni ahantu abaturage babasha guhabwa serivisi z'ubuzima, haba hari ahantu bicara bagahabwa serivisi z'ibanze bakeneye, nanone usanga hanze hari kandagira ukarabe, aho abaturage bashobora gukoresha bakaraba intoki, kugira ngo bakomeze kurangwa n'isuku birinde indwara zitandukanye.

Imikino ni kimwe mu bintu bitanga ibyishimo kandi abantu benshi barayikunda, ni iyo mpamvu ubuyobozi bw'akarere bufatanyije n'abaterankunga bubaka ibibuga mpuzamahanga, kugira ngo babashe gukoreramo imikino itandukanye, hakorerwamo amarushanwa y'imipira, kwirukanka ndetse n'ibindi.

Amata aba akenewe kugira isuku kugira ngo adatakaza umwimerere wayo cyangwa se akangirika, ni yo mpamvu hari ibicuba byagenewemo gutwara amata kandi bikayarinda ubushyuhe ku buryo adashobora gukoragura.

Iyo tugeze mu kwa kane habaho gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane, gusa icyo gikorwa ntabwo kiba kireba abantu bakuru n'abantu bakiri bato, urubyiruko tuba tugomba kucyitabira kugira ngo tubone amateka y'igihugu cyacu.

Abaturage bagerageza kuganirizwa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Aho bungurana ibitekerezo n'abayobozi babo kandi bakabagezaho ibibazo baba bafite hanyuma bakabikemurira hamwe.

Igikorwa cyo kwibuka ni ikibaho buri mwakaw' u Rwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu wigihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane.

Abayobozi b'Ibihugu, abapolisi ndetse n'abandi bashinzwe ubuyobozi mu gihugu, bashyiraho gahunda yo kuganiriza abaturage ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ubutabera ndetse n'umutekano, abaturage bungurana ibitekerezo nabo ndetse bagashakira hamwe ibisubizo.

Uba usanga kuri buri mudugudu hari igicumbi. Kiba kirimo indangagaciro z'umuco nyarwanda ndetse na kirazira. Ibyo ni ibintu byahozeho kuva kera, kuko bifasha abaturage gukomeza gutekereza ku muco wabo ndetse na kirazira, kugira ngo badatandukira ku muco wabo. Ibyo bituma hakomeza kurangwa urukundo n'indangagaciro ziranga abanyarwanda.

Mu Rwanda tugira igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Niyo mpamvu iyo tariki iyo igeze twese hamwe dufatea iya mbere tukajya kwibuka. Nanone dukora igikorwa cyo gushyira indabo ahashyinguwe abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Abaturage bahurizwa hamwe nka rimwe mu cyumweru kugira ngo baganire n'abayobozi babo ku bibazo bitandukanye, urugero nk'amakimbirane, umutekano ndetse n'ibindi, iyo nama iba irimo n'abayobozi kugira ngo babashe kubikemura.

Umuco nyarwanda ni mwiza cyane ugutoza ibintu bitandukanye. Harimo imbyino, indirimbo gakondo. Iyo abakerarugendo baje kudusura turazibigisha kandi nabo bakabyishimira kwiga iby'ahandi. Mu Rwanda tugira ibintu bitandukanye by'umuco gakondo: imbyino, imivugo, indirimbo ndetse abanyamahanga bishimira kubimenya.

Mu Rwanda tujya tugira igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Abayobozi bo mu nzego zose yaba iz'umutekano ndetse n'iz'ibanze, bafatanyije hamwe n'abaturage bakora urugendo rwo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane.

Abayobozi bo mu nzego z'umutekano, abo mu nzego z'ibanze ndetse n'abandi bahurira hamwe n'abaturage kugira ngo bige ku bibazo bibugarije, uburenganzira bwa muntu ndetse n'amakimbirane.

Abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse na polisi bagerageza kwegera abaturage kugira ngo babafashe gukemura ibibazo bafite, nano babaha uburenganzira bwabo ndetse n'ubutabera, bukabafasha gukemura ibyo bibazo.

Leta ijya igishyiraho gahunda yo koroza abaturage kugira ngo, na bo abashe kwiteza imbere, NIyo mpamvu yashyizeho gahunda ya gira inka munyarwanda, kugira ngo babashe koroza biteze imbere mu bikorwa bitandukanye, iyo nka ibafasha kubona amafaranga, amata ndetse bakoroza n'abaturage bagenzi babo.

Rimwe mu cyumweru cyane buri wa kabiri abaturage baganirizwa n'abayobozi babo kugira ngo bakemure ibibazo baba bafite nk'ibyo amakimbirane, uburenganzira bwa muntu, abaturage bageragezaza uko bashoboye kugira ngo bungurane ibitekerezo n'abayobozi.

Iyo dukeneye kujya ahantu hamwe tujya ahandi urugero nko kuva Nyagatare ujya i Kigali dukenera kujya ahantu bategera imodoka kugira ngo baduhe akangombwa kagaragaza ko twishyuye hanyuma tukabona n'imodoka idutwara.

Iyo dukeneye kugera ahantu tujya. Dukenera ibinyabiziga kugira bidufashe. Haba harimo: amagare cyangwa se moto. Ibyo byose bidufasha kugera aho tugiye bitworoheye. Na none ku mihanda haba hari ibyapa biyobora twebwe ndetse n'ibinyabiziga.

Iyo dushaka gukora ingendo za kure, hifashishwa imodoka rusange, ku buryo zishobora kutuvana ahantu hamwe, zikatujyana ahandi. Nanone zica mu mihanda myiza, ifite isuku, ku buryo tuba twizeye umutekano.

Mu mihanda tugenda tubona ibyapa bitandukanye bituyobora aho tugiye urugero iyo ugiye ku bitaro hari icyapa cyanditseho ibitaro, iyo ugiye ku mashuri haba hari icyapa cyanyanditseho amashuri, nanone haba haba hari nimero y'umuhanda tugezeho ku buryo ukeneye kurangira umuntu ushobora kuvuga iyo nimero agahita amenya aho uherereye byoroshye.

Mu maresitora cyangwa se amahoteli haba hari ibyapa bituyobora kugira ngo tubashe kubona serivisi zihari, usanga hari amacumbi yo kuraramo, hari ibyo kurya by'ubwoko bwose kandi n'amafunguro bateka bashobora kuyerekana.

Iyo dushaka gukoresha, ibintu bitandukanye cyangwa kwishyura, urugero nk'amazi umuriro cyangwa mituweli, tujya mu nzu yabugenewe, yitwa irembo, bakadufasha gukora ibyo bintu byose ndetse nidushaka ibyangombwa by'ubutaka, iby'ishyingirwa cyangwa se iby'amavuko.

Iyo bari kubaka imihanda bagenda bashyiraho ibyapa biyobora abantu, urugero hari icyapa kigaragaza aho ibinyabiziga bihagarara kugira birinde gukora impanuka.

Umuhanda iyo turi kugendamo tugenda tubona ibyapa bitandukanye nk'ikitwereka aho abanyamaguru bambukira, ibyo bigabanya impanuka zikorwa mu muhanda kuko aho hantu haba haragenewe abanyamaguru nk'iyo ikinyabiziga kihanyuze kiba kigomba kubanza guhagarara kugira ngo abanyamaguru batambuke, ibyo bigira ingaruka nziza kuko impanuka ziragabanuka mu muhanda.

Ku mihanda tuhasanga ibikorwa bitandukanye. Harimo inzu zikorerwamo ubucuruzi z'ubwoko bwose, aho bacuruza ibyo kurya, ibikoresho by'ubwubatsi, aho bakorera imisatsi, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Nanone mu muhanda haba hari ibinyabiziga byifashishwa mu gukora ubucuruzi bitworoheye, kuko bidutwaza ibintu bikabivana ahantu hamwe bibijyana ahandi. Ibyo biradufasha cyane kuko ubucuruzi bwacu butera imbere.

Iyo turi kugenda mu mihanda tubona ibyapa bitandukanye. Aho abanyamaguru batambukira cyangwa se bambukira, kugirango bave mu mukono umwe bajye mu uwundi. Iyo imodoka zihageze, zigomba kubaha umwanya kugira ngo batambuke. Nanone hari ikindi cyapa kigaragaza aho imodoka zihagarara nimba ari abantu bari barimo bgenzi bakavamo. Ntabwo imodoka ihagarara aho ibonye hose uko byateza impanuka.

Iyo bari kubaka imihanda bashyiramo ibyapa biyobora abantu batwaye ibinyabiziga, urugero hari icyapa kigaragaza ko imbere hari ihuriro ry'imihanda itandukanye.

Iyo dukeneye kujya ahantu cyane mu rugendo rwa kure dkengera ibinyabiziga bidufasha kugerayo, ni iyo mpamvu hagiye hari ahantu hatandukanye hari ibyicaro by'ibyo binyabiziga bidufasha kugira ngo tubone imodoka twishyuye amafaranga.

Ku mihanda haba hari igicumbi kiriho indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda, ibyo bifasha buri muturage wese kumva akunze igihugu kandi agomba kugihesha ishema.

Muri ino minsi ibintu bijyanye no gutwara imodoka ni ibintu bigezweho cyane, ni yo mpamvu usanga hari amashuri agiye atandukanye cyangwa se abantu bigenga bigisha gutwara imodoka, barabyigisha hanyuma umuntu akazakora ikizami amaze kugira ubumenyi runaka.

Abahinzi bitangira gukorera hamwe kugira ngo bateze imbere Igihugu. Muri ibyo bikorwa bakora harimo gukora umuganda, aho bahurira hamwe bagashobora kubakira abaturage kugira ngo babafashe kubaho neza. Ibyo bikorwa n'abaturage bo ubwabo ndetse n'abayobozi.

Abayobozi bashinzwe umutekano bagerageza guhura n'abaturage kugira ngo baganire na bo ku bibazo bitandukanye, bituma bisanzura kandi bakabasha gukemurira hamwe ibyo bibazo bitagoranye.

Polisi y'u Rwanda ijya ifata umwanya ikegera abaturage kugira ngo baganire ku bibazo byugarije Isi ndetse n'u Rwanda, muri ibyo bibazo harimo ikibazo cy'umutekano mukeya mu baturage niyo mpamvu Polisi ibegera kugira ngo bashakire hamwe ibisubizo ndetse ikabagira n'inama z'uburyo bakwitwara.

Abaturage bajya bashyiraho bagafata umwanya kugira bajye gufasha abatishoboye binyuze nko mu muganda rusange, ibyo bituma abantu badafite aho kuba babona inzo zo kubamo, nanone abayobozi babo baba bahari kugira ngo babafashe.

Abaturage bafatanyije hamwe n'abayobozi bahurira hamwe kugira ngo bige ku kibazo cyaba cyabugarije urugero nk'amakimbirane. Abayobozi b'inzego z'ibanze baba bahari ndetse n'abandi bashinzwe umutekano kugira ngo babashe gukemura icyo kibazo mu maguru mashya.

Buri cyumweru ndetse no mu mpera z'ukwezi, abaturage bahurira hamwe bagakora umuganda rusange, wo kwita ku muhanda ,gucukura imiferege kugira ngo amazi ajye acamo birinde isuri ,nanone abayobozi bakuru ndetse no mu nzego z'ibanze baba bahari.

Polisi y'u Rwanda igerageza kuganiriza abaturage ku buryo bafata ingamba ku bijyanye no kwita ku mutekano wabo ubwabo, ndetse no gutanga amakuru mu gihe hari ikibazo kivutse. Igerageza kwegera abaturage mu ngo zabo, bagakoresha n'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Imikino ni kimwe mu bintu bifasha abantu kwishima kandi bakarushaho kuba inshuti, umupira w'amaguru ukinwa cyane n'abahungu ndetse n'abakobwa bakoresheje ibibuga bigiye bitandukanye.

Leta y'u Rwanda kubera izi akamaro ka siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri niyo mpamvu ishyiraraho gahunda yo gukora siporo rusange nka rimwe mu byumweru bibiri kugira ngo abaturage bayitabire kandi babone agaciro kayo kuko bibarinda indwara zitandukanye ziterwa no kudakora imyitozo ngororamubiri

Siporo ni kimwe mu bintu gikunzwe ku isi yose, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda igenda ishyiramo imbaraga mu kubaka ahantu hakore siporo, urugero nko kubaka sitade ihurirwamo n'abantu benshi kandi ikaberamo imikino itandukanye kandi iba yubatse neza.

Imikino ni kimwe mu bintu, bihuza abantu cyane umupira w'amaguru kuko uri mu mikino ikunzwe cyane. Uba usanga mu mashuri ndetse no mu bantu bakuru, bagira umwanya wo gukora, umukino w'umupira w'amaguru.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane. Idufasha kurwanya indwara zitandukanye nk'umubyibuho ukabije, diyabete cyangwa umuvuduko w'amaraso. Ni iyo mpamvu n'abayobozi babishyiramo imbaraga bakubaka ibibuga by'umupira w'amaguru ndetse hakorerwamo n'indi myitozo.

Umukino cyangwa se umupira w'amaguru, bituma abantu benshi bahurira hamwe bakaganira ndetse bakishima, usibye kuba umukino w'amaguru utuma abantu bishima, uruhura mu mutwe kandi utuma bagira ubuzima bwiza kubera bakora siporo.

Abana bato bari mu kigero kimwe, bishimira gukinira hamwe, urugero nk'umupira kugira ngo bisanzure kandi barusheho kuba inshuti, ibyo ntabwo bisaba ibya mirenge ahubwo ikiboroheye, nicyo bakoresha.

Mu Rwanda, imikino igenda itezwa imbere cyane, niyo mpamvu hari gahunda yashyizweho yitwa umurenge Kagame cup, aho imirenge itandukanye igize uturere ihurira hamwe, igakina ndetse uwatsinze ukabona igihembo. Ibyo bifasha abaturage kumenyana kandi bakishima.

Abantu benshi bakunda imikino by'umwihariko umupira w'amaguru kuko uhuza abantu benshi, ni iyo mpamvu hajya hakorwa amakipe agahurira ku kibuga hanyuma agakina.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, iradufasha kuko ituma turindwa indwara zitandukanye, urugero: umuvuduko w'amaraso, diyabete, umubyibuho ukabije, ni iyo mpamvu abaturage twese tuba tugomba kwitabira gukora imyitozo ngororamubiri.

Umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe cyane mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ni iyo mpamvu uba usanga mu bigo by'amashuri, mu baturage bisanzwe, bashyiraho gahunda yo gukina umupira w'amaguru kugira ngo abantu bahore bishimire icyo gikorwa.

Umupira w'maguru ni kimwe mu bintu abantu bakunda cyane kuko ituma abantu bishima ndetse bagahuza urugwiro bakaba inshuti, ni iyo mpamvu leta y'u Rwanda igenda ikora uko ishoboye ikubaka ibibuga kugira ngo abantu bajye bagerayo bakine kandi bishimishe.

Imikino ni kimwe mu bintu bibuza abantu cyane kandi usibye kuba bishima nanone gukora imyitozo ngororamubiri bibarinda indwara zitandukanye, ni yo mpamvu uba usanga mu mashuri hari igihe hagerwaho iminsi yo gukina kandi hahurirwamo n'abantu batandukanye bakarushaho kumenyana bakanishima.

U Rwanda rugenda rushyiramo imbaraga mu kubaka imihanda, mu makarirtsiye hari imihanda myiza ya kaburimbo, ku buryo iyo dukora ingendo nta kibazo na kimwe twagira nk'imvura yaguye ngo tuvuge ngo haranyerera cyangwa se ngo twikange ibindi bibazo, ibyo bituma ingendo zoroha cyane.

Umuhanda ni bimwe mu bintu bidufasha gukora ubucuruzi, guhahirana hagati yacu, nanone udufasha kujya ahantu tugiye bitworoheye nta kibazo duhuye na cyo, ni iby'ingenzi ko Leta yita kubaka imihanda kugira ngo yizere ko neza nta kibazo abantu bayikoresha bashobora kugira.

Iyo bari kubaka imihanda, bagenda bashyiraho inzira y'abanyamaguru, kuko nabo baca mu muhanda. Ubusanzwe hagati aba ari aho gucamo ibinyabiziga. Hanyuma ku ruhande, bakubaka akandi kantu aho abanyamaguru baca kugira ngo batagira aho bahurira n'ibinyabiziga byo mu muhanda.

Hari ahantu hatandukanye dushobora kujya tukabona ibyo kunywa, urugero nk'inzoga cyangwa fanta. Aho hantu ni mu tubari cyangwa utubare. Ibyo bituma abantu bose babyifuza babibona byoroshye. Nanone ubu usanga izo bare ziri ahantu ku muhanda ku buryo buri wese abasha kuhabona, hari n'ibyapa bigaragaza ko haba inzoga.

Abayobozi bagenda bashyiraho imihanda yubatse neza kandi basiga umwanya w'abanyamaguru aho babasha guca, ku buryo ibinyabiziga bidashobora kubagonga. Iyo nzira iba iri ku ruhande kugira ngo batagira aho bahurira n'imodoka cyangwa se ibindi binyabiziga.

Mu mihanda haba hari imodoka zitandukanye zifashishwa mu kugemura ibintu na none uba usanga ku muhanda hari amatara agiye atandukanye amurikira abantu nijoro.

Ku mihanda ubu usanga hari inzu zitandukanye zegereye kaburimbo. Ziba zubatse neza, zifite ibipangu byiza, ubusitani ndetse n'ibiti. Nanone ziba zifite aho binjirira hameze neza cyane ku buryo buri wese yishimira kuhabona kuko aba ari ku muhanda.

Iyo ugiye mu mihanda yo mu makaritsiye, usanga hari uduhanda dutoya tw'igitaka gusa nanone dufasha abantu mu gukora ingendo ibinyabiziga bigafasha kunyuramo, nubwo iba idakoze neza ariko ifasha abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi.

Iyo abayobozi bari kubaka imihanda bibuka inzira nyabagendwa y'abanyamaguru. Iyo nzira iba iri ku ruhande kandi yubatse ukwayo ku buryo abanyamakuru baba bizeye umutekano wabo.

Iyo abantu bari kubaka imihanda ababishinzwe, bagerageza kuyubaka buryo ki basigagana n' umwanya w'abanyamaugru. Haba hari ahantu ku ruhande aho abanyamaguru babasha guca, ku buryo ibinyabiziga bitabageraho. Ibyo bituma impanuka zibasha kugabanuka, kuko abanyamaguru baba bafite umwanya wabo, n'ibinyabiziga bikaba bifite umwanya wabyo.